Ubuhinzi n'ikintu cyiza cyane, mu buhinzi dukunda guhinga ibintu byinshi bitandukanye harimo; nk'ibinyomoro, amatunda, inanasi ndetse n'ibisheke, ibisheke ni igihingwa cyiza cyane cyiza cyane kuko turagihinga kikabasha kuduhereza isukari.

Ubuhinzi ni ikintu cyiza cyane, dukunda guhinga ibihingwa bitandukanye harimo nk'imyumbati ,ibishyimbo, amateke ndetse n'ibigori. Ibigori ni ikintu cyiza cyane kuko bituma tubaho neza. Turabyeza tukabasha kubikoramo ifu, iyo fu tukayinywa ikabasha kuturinda indwara.

Dukunde guhinga imbuto. Mu guhinga imbuto, twahinga nk'inanasi, ibinyomoro, amatunda, amaronji ndetse n'imyembe. Imyembe ni imbuto nziza cyane ku bana, ku bantu bakuru, mbese muri rusange umwembe ni urubuto rwiza, kuko rutuma dukura neza kandi tukanatekereza neza.

Ubuhinzi n'ikintu cyiza cyane dukunde umurimo cyane cyane n'ubuhinzi, kuko ubuhinzi buduhereza ibyo kurya, bukaduhereza amafaranga. Ndetse ubuhinzi butuma tubaho neza cyane.

Ubuhinzi ni bwizaza cyane. Duhinga ibijumba, ibishyimbo, amateke, imyumbati, ndetse n'amasaka. Tutibagiwe n'ibirayi. Ibirayi ni byiza cyane, kuko bituma tubona amafaranga, tukabasha kubirya tukirinda imirire mibi, kandi bikadufasha kubaho neza.

Dukunde akazi gukunda akazi ni byiza, kuko bituma umuntu abaho neza, muri ako kazi harimo nko gutwara imizigo, mu gutwara imizigo, ushobora kuba ari mizigo itandukanye, hari imizigo itwara amata iyajyana hamwe iyajyana ahandi, muriibyo rero bidufasha kwihaza, muri buri kimwe cyose.

Ubuhinzi ni bwiza kuko biduhereza iki? Amafaranga. Dukunda guhinga ibihingwa birimo: ibijumba, imyumbati, amateke, amashaza, cyangwa amajeri. Ibyo byose tubihinga kugira ngo tubashe kuva mu mirire mibi tukirinda indwara, ndetse kugira ngo tunabone amafaranga.

Dukunde korora, cyane cyane korora amatungo magufi harimo: imbata, inkoko, sumbirigi ndetse n'inkwavu . Cyane cyane dukunde korora inkwavu. Inkwavu ni itungo ryiza cyane, riduhereza amafaranga, kandi inyama z'urukwavu zituma tugira intungamubiri.